Abanyeshuri ubona ko bari hanze muri break, umwe muri abo banyeshuri ateruye ibase isa umuhondo, aba bana b'abanyeshuri bambaye amainifomo y'ubururu, ndetse hirya hari abahungu bambaye amainifomo ya kake, ubona ko bari imbere ya class barimo barakina, ndetse muri iki kigo harimo n'indabo.

Mwarimu ari imbere y'abanyeshuri ari kubigisha, imbere ya mwarimu hari ikibaho cy'umukara ariko cyandikishijeho ibara ry'umweru, afite inkoni mu ntoki ndetse n'igitabo, imbere ye hari abanyeshuri batandatu.

Ni abana b'abanyeshuri bambaye inifomo, harimo abahungu n'abakobwa. Abahungu bambaye amakabutura asa kake ndetse n'amashati asa kake. Abakobwa bambaye imyenda isa ubururu. Aba bana bazamuye amaboko, ubona ko hari igikorwa barimo.

Abanyeshuri benshi bari mu ishuri, bamwe muri aba banyeshuri bambaye amashati y'umweru ndetse n'imyenda yo hasi irimo amajipo ndetse n'amapantaro asa kake, imbere yabo hari umwarimu ndetse n'umunyeshuri ubona ko hari ibyo barimo barapima ku kibaho ndetse bapimisha irati isa umweru ndetse n'ikibaho gisa umukara.

Ni ikirango gikoreshwa mu burezi kuko handitseho amazina y'ishuri. Icyo kirango kirimo amabara y'umweru ndetse n'amabara y'ubururu, harimo amagambo amwe n'amwe agiye yanditsemo ariko kandi hariho bibiliya ndetse n'umusaraba muri icyo kirango.

Urabona ko bamaze gukina nyuma yaho hari abantu benshi harimo abakobwa n'abasore umwe muri aba bakobwa bambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umutuku. Noneho bo abamaze gukina bambaye imyenda y'umukara n'umweru ndetse n'umuhondo n'umukara.

Ni inyubako ubona ko imeze nkigirwamo, imbere yimwe muri izo nyubako hari umwana uhicaye wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara. Impande z'izo nyubako hari ibyatsi bihateye bifite amabara y'icyatsi.

Ahantu benshi cyane harimo abagore ndetse n'abagabo ubona ko bameze nk'abafite ikintu runaka bavuyemo bose, urabona ko bari mu kigo kirimo inyubako ndende, zimwe muri izo nyubako harimo izifite amabara asa umuhondo.

Library irimo ibitabo bigiye bitandukanye ariko kandi muri iyo library hari urupapuro ruhamanitse rwanditseho ibisa nk'amabwiriza cyangwa se ibitabo ndetse n'aho biherereye. Bimwe mu byanditse kuri uru rupapuro harimo ibyandikishije imibare ndetse n'ibyanditse mu magambo kandi harimo ibyandikishije ibara ry'umukara.